Icyumba cy'inama gitatsemo ibitambaro by'ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi, kirimo intebe z'ibiti, zicaweho n'abantu b'abagore, ndetse n'abagabo, hagati yabo hari umugabo uri kubasobanurira ibintu.

Mu nzu irimo ameza ateretseho indabo ndetse hari n'intebe z'umukara zicaweho n'abantu barimo abirabura ndetse n'abazungu, hashashemo itapi hasi isa n'ubururu, amatara y'umweru ari kwaka.

Inzu ikorerwamo inama, irimo abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe z'umuhondo, imbere yabo hari abantu bazamuye ikiganza, bari imbere y'amadarapo bari kurahira.

Porofeseri Shyaka Anastase wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, yicaye mu nzu mu biro ari kumwe n'abandi bantu bari gukorana inama.

Icyumba k'inama giteraniwemo n'abantu benshi bicaye ku ntebe z'ibyuma, ameza atwikirijwe ibitambaro by'umweru, hari umugabo wicaye ari kuvugira mu ndangururamajwi.

Inzu yicawemo n'abantu, barimo abagabo ndetse n'abagore, harimo intebe z'ibyuma, zifite udusego twicarirwa ndetse n'utwegamirwa dutukura, hasi hashashemo itapi y'icyatsi.

Inzu ifite icyumba cy'inama cyicawemo n'umugore ufite indangururamajwi arikuyivugiramo yicaye ku ntebe imbere ye hari ameza ashasheho igitambaro cy'umweru hateretseho telefoni.

Inzu iteraniwemo n'abantu bari mu nama yiga ku bintu runaka, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa afunze mu ducupa tubonerana dupfundikihe umufuniko ndetse inyuma yabo hari n'abandi bantu nabo bicaye bari kwiga ku kintu.

Abagabo n'abagore bicaye hamwe bitonze bose bari kureba imbere kandi bambaye n'utugozi mu gatuza dusa n'icyatsi dufasheho amakarita y'imyirondoro yabo.

Inzu yicawemo n'abagabo n'abagore, bicaye ku meza ateye ku buryo barebana nabo bateganye. Ku meza ashasheho ibitambaro by'umweru hariho za mudasobwa ,impapuro ndetse n'amazi yo kunywa.

Abagabo n'abagore bicaye muri sitade isize amarangi y'icyatsi hasi ku isima ndetse n'umuhondo, inyuma yabo hari abandi bagabo bahagaze bari kureba umukino.

Abagabo n'abagore bahagaze hanze inyuma yabo hari ibiti bari gukorana inama n'umugabo ufite indangururamajwi yambaye ikoti ry'umukara ari kubabwira ibintu.

Mu nzu iteraniwemo n'abagabo n'abagore, bahagazemo umugore ufite imisatsi y'umukara, wambaye amadarubindi afite indangururamajwi ari kuyivugiramo.

Mu nzu harimo abantu bicaye ku ntebe z'umukara ndetse n'ameza agiye ateye mu buryo atandukanye bw'amasibo, baritonze hagati yabo hateretsemo kamera nk'icyuma gikoreshwa mu gufata amashusho.

Abagore, abagabo, ndetse n'abana, bicaye hanze mu byatsi, izuba riri kuva bose baritonze nkaho bateze umuntu uri kubabwira amatwi.

Inzu yicayemo abagabo n'abagore b'abirabura ndetse n'abazungu bafite amakaramu n'impapuro bari kwandika ibintu runaka, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa.

Mu nzu hicawemo n'abagabo n'abagore, imbere yabo hari ameza atatse ibitambaro by'umweru ndetse n'umuhondo, hateretseho amazi, indabyo z'amabara, ingofero ya polisi ndetse harimo n'indangururamajwi ku ruhande.

Mu nzu ikorerwamo inama hicayemo abagore n'abagabo b'abirabura ndetse n'umuzungu bari gukoresha za mudasobwa imbere yabo biteretse agakombe k'icyayi ndetse abandi bafite amazi.

Mu cyumba cy'inama giteraniwemo n'abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari ameza ateretseho za mudasobwa ndetse n'amazi yo kunywa bo bicaye ku ntebe zisa n'umukara.

Inzu irimo abantu bari mu nama, harimo umugore wambaye umwambaro w'umuhondo afashe indangururamajwi mu ntoki ze arikuyivugiramo abandi bamuteze amatwi.

Mu nzu iri gukorerwamo inama, irimo abiganjemo abasore n'inkumi b'urubyiruko, bicaye ku ntebe zitukura, zegamirwa, hahagazemo umugabo wambaye ikoti, uri kubabwira ibintu.

Abagabo n'umugore bateraniye mu cyumba cy'inama biteretse amazi yo kunywa ku meza abari imbere ndetse hari n'umugore uri gukoresha mudasobwa, bose bambaye amakarita y'imyirondoro ndetse n'akazi mu gatuza kabo.

Abagabo n'abagore bambaye imipira y'amaboko magufi, isa n'ubururu, bicaye mu cyumba kirimo ameza ateretseho amazi yo kunywa, imbere yabo hari izindi ntebe ziticaweho n'abantu.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo n'abagore ndetse ku mpande hamanitse indangururamajwi, bose batumbereye imbere bafite amakayi n'impapuro bari kwandika.

Mu nzu harimo abantu bari mu nama, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ishati yatebeje afite indangururamajwi arikuyivugiramo ababwira ibintu.

Inzu ifite icyumba k'inama kicawemo n'abagabo n'abagore ku ntebe zitukura, hahagazemo umugore wambaye umwambaro w'umuhondo ufite indangururamajwi, ari kubabwira ibintu.

Abantu bicaye ku meza ateye mu byiciro barimo abagore, abagabo, ameza ariho amazi yo kunywa ari mu macupa abonerana, ndetse hariho n'udutabo dutoya.

Abagabo n'abagore, bari munzu ifite inkuta zisize amarange y'umweru, baricaye abandi barahagaze, barimo barifotoza. Imbere yabo hari ameza atwikirijwe ibitambaro bitukura.

Abagabo n'abagore bari mu nzu isize amarangi y'umweru ku gikuta, hari kwakamo amatara y'umweru, harimo abantu bambaye imipira y'umuhondo y'amaboko magufi abandi bambaye iy'icyatsi baricaye.

Inzu irimo ikorerwamo inama ijyanye n'imiyoborere ndetse n'uburyo ki hahangwa udushya mu Rwanda, iruhande rwaho hari ibyapa by'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere cya RGB hicayemo abantu benshi.

Abagabo bicaye mu nzu harimo abirabura ndetse n'umuzungu, bicaye iruhande rw'ameza ateretseho amazi yo kunywa ari mu macupa y'ibirahure abonerana ndetse hari n'udusorori dutoya.

Abana bicaye mu cyumba gikoreshezwamo mudasobwa harimo abarimu barimo babafasha kubasobanurira mu masomo ajyanye no gukoresha mudasobwa, inyuma hari ikibaho cyo kwandikishaho ingwa gisa n'umukara.

Urubuga rw'irembo mu rubuga rwa leta rusabirwaho serivisi zitandukanye harimo ibyangombwa by'uko umuntu ariho, ibyangombwa ndetse n'impushya zo gutwara ibinyabiziga, kwiyandikisha ndetse no gusaba ibyangombwa watsindiye.

Umunara w'ibyuma bishinze ku butaka ufite uruzitiro rwubakishijwe n'ibyuma, umunara ufiteho ibikoresho bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni bimeze nk'amatara yo mu nzu bisa n'umweru.

Ishuri ririmo abanyeshuri barimo abagore ndetse n'abagabo, bari gukoresha mudasobwa zicometse ku muriro w'amashanyarazi, hari n'ikibaho cyandikishwaho ingwa gisa n'icyatsi.

Iminsi icumi niyo isigaye kugira ngo igihe cyagenwe cyo kumenyekanisha imisoro ku nyungu kirangire itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri bibiri na makumyabiri na kane niwo munsi wa nyuma.

Umunara ukozwe n'ibyuma by'umweru, ndetse n'umutuku, umanitseho ibikoresho bimeze nk'ingoma byifashishwa mu itumanaho ry'amaterefone ngendanwa. Hejuru ikirere kirasa n'ubururu.

Ipoto rishinze ku butaka rinyurwaho n'insinga z'amashanyarazi, hepfo yaho hari inzu yubakishije igisenge gitwikirijwe n'amabati asize irangi ry'umutuku.

Hanze izuba ri kuva hari ibinyabiziga biparitse mu mbuga, imbere yabo hari inzu ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, hari kugenda abantu ndetse hari n'imodoka ziri mu muhanda.

Ipoto rishinze hanze rirerire rinyurwaho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, imbere yaryo hari umutaka wa Airtel, wicawemo n'umugabo wambaye ijire isa n'umuhondo.

Hanze hari umuhanda w'igitaka, ugendwamo n'umuntu wambaye umwambaro w'ubururu, impande yawo hari ifoto ishinze, inyurwaho n'insinga z'amashanyarazi.

Umusore wicaye hanze ahantu harunze ibitaka, inyuma ye hari umunara ushinze unyurwaho n'insinga z'amashanyarazi, ndetse ushinze ahantu hari ibyatsi.

Impande y'umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara iciyeho akarongo k'umweru ku mpande kagaragaza imbibi z'umuhanda hahagaze umugore ufite umufuka ufunze neza ndetse n'ibase.

Urugomero rw'amashanyarazi, rurimo ibyuma bitanga umuriro w'amashanyarazi, byubatse hasi ku butaka, ndetse harimo n'umunara ushinze hasi ku butaka, wubakishijwe ibyuma.

Ibiti bibiri by'amapoto binyurwaho n'insinga z'amashanyarazi ajya mu gace runaka, bishinze ku butaka buhinzeho insina zifite ibirere.

Umunara wubakishije ibyuma bishinze ku butaka unyurwaho n'insinga z'amashanyarazi. Iruhande rwawo hari amapoto amanitseho amatara yo ku mihanda amurika ndetse hari n'irindi rimanitseho icyuma gikoreshwa mu gufata amashusho mu bantu ndetse n'ibinyabiziga bitambuka.

Umunara ukozwe n'ibyuma bishinze ku butaka birebire kandi byubatse mu buryo busobekeranye, uranyurwaho n'insinga z'amashanyarazi zijya mu ngo cyangwa mu nganda.

Amapoto abiri y'icyuma, ashinze mu butaka bumezeho ibyatsi, hasi hashinze agasanduku k'umweru, gateranyirizwamo insinga z'amashanyarazi ajya mu gace, hirya yako hari ahantu hazitije amabati.

Umunara w'ibyuma bishinze ku butaka buteyeho ibiti, wubatse ku buryo busobekeranyije, hejuru utwarwaho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Ipoto ishinze, hejuru imanitseho insinga z'amashanyarazi ziyivaho, zikajya mu ngo zituye muri ako gace. Amashanyarazi afasha mu gucomeka ibikoresho by'ikoranabuhanga, birimo amatereviziyo, ndetse n'amaterefoni.

Umunara ugizwe n'ibyuma bishinze ku butaka ufite n'ibindi bisobekeranyije, uranyurwaho n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi wajya mu ngo ndetse no mu duce.

Umunara ugizwe n'ibyuma birebire bishinze ku butaka, bisobekeranye hejuru hamanitse imigozi itwara umuriro w'amashanyarazi, ndetse iruhande rw'umunara hari inyubako.

Igiti cy'ipoto gishinze ku butaka kinyurwaho n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi iruhande rwacyo hari urupangu rusize amarangi y'umweru.

Amapoto abiri y'icyuma ashinze ku butaka amanitseho icyuma gikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu gace. Imbere yaho hari inzu ifite uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye.

Ipoto rinyurwaho n'insinga zitwara amashanyarazi, inyuma yaryo, hari irindi poto ririho itara ryo ku muhanda, rimurika muri kaburimbo, igihe izuba ryarenze hatakibona.

Icyapa gishinze hanze mu busitani burimo indabo ndetse n'ibyatsi biconze neza, cyanditseho ko aho hantu hakorera ibitaro bya Kacyiru.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi zifunze, ifite urubaraza rushashemo amakaro hasi, ifite intebe zo kwicaraho hanze, ku bategereje serivisi zo mu biro.

Hanze izuba riri kwaka hari inzu zubatse hirya yazo hubatse umunara muremure umanikwaho ibikoresho bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni ngendanwa.

Ibitaro byubatse imbere y'ahantu hari agahandada gato ka kaburimbo, imbere yaho gafite imbuga iparikwamo n'amamodoka y'abantu baje ku bitaro.

Kwa muganga ahari inzu ababyeyi bajya kubyariramo isize amarangi y'umuhondo ku gikuta isakaje, amabati iruhande rwayo hari umuhanda wa kaburimbo ndetse hari n'icyapa giparikwamo imodoka.

Amarembo y'ibitaro afite umuryango ugizwe n'ibyuma, arimo arafungwa n'umuntu ushinzwe umutekano ku ibyo bitaro, ku marembo kandi ku nzugi harimo ikimenyetso cy'umusaraba.

Hanze hari ahantu haparitse imodoka nyinshi, iruhande rwaho hari ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'ibyatsi biconze, harimo n'ibigega byubakishijwe ibyuma, ibigega biri hejuru ku butumburuke uburebure, na byo byubakishije ibyuma.

Abantu bicaye hanze ku mbuga irimo ibyatsi bikikijwe n'ibiti, imbere yabo hicaye abantu babunzi bambaye udutambaro turimo amabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu dukikije urutugu barimo barumva umugabo ubahagaze hagati ari kwisobanura.

Umugabo w'umugororwa wambaye agapfukamunwa ndetse n'imyambaro y'iroza afite igitabo mu kwaha inyuma ye hari umucungagereza na we wambaye agapfukamunwa gasa na kake.

Fatakumavuta ukurikiranyweho ibyaha bitandukanye, yambaye amapingu afite n'icupa ririmo amazi mu ntoki, iruhande rwe aherekejwe n'umupolisi wambaye impuzankano ya gipolisi afite n'imbunda.

Icyumba kicayemo imfungwa abumva urubanza ndetse n'abavoka bambaye amakanzu y'umukara afite agace k'umweru mu gatuza, barimo umwavoka w'umuzungu ndetse mu mfungwa hicayemo umugore witwa Ingabire Victoire yambaye amadarubindi n'amapingu.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijweho n'amagambo y'umukara, rushushanyijemo ikirango cya repubulika y'u Rwanda kigizwe n'agaseke, ishaka ndetse n'ikindi gihingwa.

Ingabire Victoire ni umugore wirabura wambaye amadarubindi ndetse n'impuzankano y'imfungwa z'u Rwanda, ahagaze hagati y'abagabo babiri b'abavoka umwe ni umwirabura undi ni umuzungu.

Umugabo w'umwavoka ufite uruhu rwirabura, wambaye imyambaro y'ikanzu itukura, ifite agace k'umweru mu gatuza. Uyu mugabo akora mu mirimo ijyanye n'amategeko n'imanza.

Igikoresho gitukura, gifite umupira uzinze, gicometse ku itiyo izana amazi, iki gikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe hari umuriro watewe n'amashanyarazi cyangwa se n'itwikwa ry'ibindi bintu.

Polisi ishami rishinzwe kurwanya inkongi y'umuriro, yambaye imyambaro y'ubwirinzi, impande yabo hari abantu bicaye, harimo umugore ndetse n'abana, bambaye ingofero z'ubwirinzi. Inyuma yabo hari imodoka zifashishwa mu kuzimya inkongi.

Ibikoresho bibiri bikoreshwa mu kurwanya inkongi y'umuriro, harimo icupa ry'umutuku rifite umupira ndetse n'akantu bakandaho ryifashishwa naryo mu kuzimya inkongi y'umuriro, byose bimanitse ku gikuta cy'umweru.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro gisa n'umutuku kimanitse ku gikuta, gifite umupira w'umutuku uzingazingiye mu cyuma kimeze nk'ikigare cy'imodoka. Iki gikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Icupa risa umutuku, ryometseho agapapuro k'umweru kanditseho amagambo, rifite umupira w'umukara ndetse n'akantu bakanda gatukura, rimanitse ku gikuta, ryifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Amacupa asize irangi ry'umutuku, harimo ibinyabutabire byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, ateretse hasi, afite imipira ndetse n'utuntu bakanda tw'icyatsi, kugirango ibinyabutabire bisohoke.

Amacupa akoze mu byuma asize irange ry'umutuku, amanitse ku gikuta cy'umweru arimo ibinyabutabire byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Uwahoze ari Perezida wa repubulika yo hambere Habyarimana yuvenali yambaye ikoti ry'umukara ishati ndetse na karavati. Repubulika ye yaranzwe n'amacakubiri.

Imodoka ya bisi itwara abagenzi mu buryo bwa rusange irasa n'ubururu ndetse ifite n'ibara ry'umweru, yicawemo n'abagenzi iragendera kuri kaburimbo isa n'umukara.

Matabaro iparitse impande y'akayira kagenewe kugendwamo n'abanyamaguru, iruhande rwayo hari umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, iri kugendwamo n'ipikipiki ihetse umugenzi.

Imodoka isa n'umweru, ifite akabara k'umuhondo gaciye mu rubavu. Iyi modoka itwara abantu bane b'abagenzi bagenda mu buryo bw'umwihariko, iruhande rwayo haparitse indi modoka na yo ikora akazi nka ko.

Imodoka ihetse ibikoresho by'ubwubatsi by'amatafari, ku gice cyayo cy'inyuma kimeze nk'isanduku ifunguye, kiterekwamo ibintu. Iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo.

Ipikipiki y'amapine atatu, ihetse umuzigo mu mwanya w'inyuma wagenewe guhekwamo imizigo, iragendera mu muhanda wa kaburimbo, impande yawo hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, birimo amapikipiki atwawe n'abayobozi ndetse kuruhande rw'ibumoso hari imodoka iri kwaka amatara y'inyuma ihetse imizigo y'imbaho ku gace kayo gatwarwamo imizigo.

Hanze izuba riri kuva mu muhanda wa kaburimbo isa n'umukara haragendwa n'imodoka ya Daihatsu, ifite imizigo ihetse inyuma iziritse neza.

Iruhande rw'inzira nyabagendwa ya kaburimbo isa n'umukara, hari umwanya wagenewe guparikwamo n'ibinyabiziga akanya gato hari icyapa kibigaragaza gisa n'ubururu cyanditsemo inyuguti ya pa.

Uruganda ruranguza ibijyanye n'inzoka ndetse n'ibinyobwa bidasembuye harimo amakaziye agerekeranyije asa n'umutuku ndetse n'ubururu mu mbuga iri hanze.

Hanze haragendwa n'abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore hari umugabo wicaye ku ngorofani ikozwe n'ibyuma bisa n'umutuku ndetse iruhande rwe haratambukwa n'umugabo.

Imodoka ya Bisi ya Ritco itwara abagenzi mu buryo bwarusange, iragendera mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwayo haratambuka umugabo wikoreye ibintu biremereye mu mufuka.

Hanze abantu bari kugenda izuba riri kuva hari imbuga ngari irimo intebe zegamirwa zikoze mu biti zicawemo n'abantu iruhande rwazo hari ibiti.

Hanze izuba riri kuva, hari udutebe two ku muhanda, dufite ubusitani ndetse twicaweho n'abagore n'abagabo, imbere yabo hari agahanda k'amabuye kagendwamo n'abantu.

Ikibuga gishushanyishijwemo n'imirongo y'umweru, gikinirwamo umukino w'amaboko witwa tenisi gifite uruzitiro rukozwe na senyengi.

Imbuga iteyemo ibyatsi ikinirwamo umupira w'amaguru. Umupira w'amaguru ukinwa n'amakipe abiri ahanganye, haba harimo kandi n'amazamu.

Icyapa gisa n'umuhondo cyanditsemo mirongo itatu mu ishusho y'uruziga, gifite ubuso bw'umweru, cyerekana umuvuduko ntarengwa ibinyabiziga bifite kugenderaho.

Akapa kanditseho ka ga ijana na mirongo inani n'icyenda sa ta gasa n'umweru, gafite akabara k'umukara kakazengurutse gashinze ku cyuma iruhande rw'umuhanda karanga inzira.

Icyapa gifite ubuso bw'umuhondo kirimo akambi kandikishije umukara tsiriri kagondeye kuhande rw'iburyo gishyirwa impande y'inzira nyabagendwa kikayobora abayobozi b'ibinyabiziga.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, gifite ubuso bw'umweru cyanditsemo makumyabiri mu mukara utsiritse, icyapa gishyirwa impande y'inzira nyabagendwa, kikerekana umuvuduko ntarengwa ko ari makumyabiri.

Icyapa gifite ishusho y'urukiramende kirimo ibara ry'umutuku ry'uruziga, gifite ubuso bw'umweru, bushushanyijemo umwambi wanditse nka u uciyemo umurongo w'umutuku uberamye.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, gifite ubuso bw'umweru cyanditsemo mirongo itandatu mu ibara ry'umukara ritsiritse, iki cyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ibinyabiziga bigomba kugenderaho.

Icyapa cya mpande eshatu gishinze iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, kirasa n'umweru mu bumoso, gifite igishushanyo cyanditse mu ibara ry'umukara tsiritsiri, cyerekana ko hari agahanda gato gashamikiye ku muhanda munini ukomeza.

Icyapa gifite ubuso bw'umutuku, cyanditsemo ijambo hagarara, mu ibara ry'umweru, gishyirwa ku nzira nyabagendwa, kigategeka umuyobozi w'ikinyabiziga ko agomba guhagarara umwanya muto, agategereza ko ibinyabiziga byo mu muhanda munini bitambuka.

Igikoresho gikoreshwa mu kuyobora ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru mu muhanda cya feruje, gikoresha urumuri rw'amabara y'umutuku, umuhondo cg icunga rihishije ndetse n'icyatsi.

Icyapa cya mpande eshatu kirimo ubuso bw'umuhondo buhagazwemo n'umugabo ufite igitiyo ari kuyora ibintu, iki cyapa gishyirwa impande y'inzira nyabagendwa kikerekana ko mu muhanda hari ibikorwa by'ubwubatsi biri kuhakorerwa.

Inzu y'amagorofa ifite uruzitiro rwubakishije amatafari, iruhande rwarwo hari umunara muremure wubakishije ibyuma ni muremure kandi uranyurwaho n'insinga z'amashanyarazi.

Agace gatuwemo n'abantu harimo inzu isize amarangi y'umweru ku nkuta ifite n'ibigega by'umukara bibiri, mu rugo hazengurutswe n' ibiti by'amashami.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, impande yawo hari inzu ifite amadirishya areba mu muhanda ndetse imbere hubatsemo n'indi nzu nini.

Umuhanda wa kaburimbo ufite umurongo w'umweru uciye ku ruhande, imbere y'agahanda gato gashashemo amabuye kagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo ufite igice cyambukirwamo n'abanyamaguru gisize amarangi y'umweru harimo harambukirwamo n'abanyamaguru, imbere yaho hageze imodoka ndetse hari n'ipikipiki.

Nijoro umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amatara yaka iyo izuba ryarenze arimo aramurika, hari ikinyabiziga cyacanye amatara maremare y'imbere ku ruhande hari n'ahandi hantu hari inyubako.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, ifite ibimenyetso bikoresha urumuri, biyobora amapikipiki, imodoka ndetse n'abanyamaguru, byaka amabara y'icyatsi, icunga rihishije ndetse n'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo usa n'umukara ufite igice cyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru, gisizemo imirongo y'umweru ibyibushye mu butambike bwabo, abayobozi b'amapikipiki bahageze kuko bari kwambukirwamo n'abantu, abayobozi bahagaze bategereza ko abantu bambuka.

Umuhanda w'igitaka uri kugendwamo n'imodoka ebyiri, imbere yaho hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye, gifungishije urugi rw'umukara rurimo n'ibara ry'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo usa n'umukara, uragendwamo n'imodoka, ufite igice cyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru, gisa, giciyemo imirongo y'umweru, hari kwambukirwamo n'umunyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, ugendwamo n'ibinyabiziga by'amapikipiki ndetse n'imodoka, urimo feruje, zikoreshwa mu kuyobora ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo y'umukara uragendwamo n'ibinyabiziga birimo amapikipiki ndetse n'amamodoka. Imbere yaho hari ahantu hari' ikiraro gitandukanya umuhanda wo hasi n'uwo hejuru.

Mu muhanda wa kaburimbo isa n'umukara, ifite agace kambukirwamo n'abanyamaguru, gaciyemo imirongo y'umweru, aha iyo umuyobozi w'ikinyabiziga ahageze, arabanza agahagarara, akabaha umwanya abanyamaguru bagatambuka.

Umuhanda wa kaburimbo, ufite imirongo isa n'umweru iciye muri kaburimbo, yagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru, imbere yayo hari ibimenyetso byemerera abanyamaguru kwambuka, bimurikishije amatara, ni ibya feruje.

Umuhanda wa kaburimbo y'umukara, ugendwamo n'imodoka ndetse n'amapikipiki, ufite imirongo ku ruhande iciye isa n'umweru, impande yawo hari akayira gashashemo amabuye kagendwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda w'igitaka unyura mu duce dutuwemo n'abantu impande yawo ukikijwe n'indabyo z'umuhondo ziterwa ku muhanda ndetse n'ibiti birebire byakuze bifite amashami.

Umuhanda wa kaburimbo ufite igice giciyemo imirongo y'umweru cyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru, abayobozi b'amapikipiki barahageze barabanza barahagarara bitonze neza kugira ngo abanyamaguru bambuke.

Umuhanda wa kaburimbo, ufite igice ku ruhande rw'iburyo, giparikwamo imodoka, aha niho abagenzi bagira mu modoka cyangwa bayiviramo mu buryo bwemewe, iruhande rwabo hari akazu kicarwamo n'abantu bategereje imodoka.